Uruduka rucuruza imyenda ndabonamo amashati, aya gisirikare, ay'umweru, amabara agiye atandukanye, amanitse mu tubati.

Aha biragaragara ko ari umukozi wo mu biro, uri gutanga serivisi y'abaturage, bakaba harimo uwitandiye w'umuyisiramu n'undi mugabo. Uwitandiye akaba ari umugore. Afite mudasobwa imbere ye, ndetse afite n'impapuro mu ntoki.

Ni inyubako igeretse ikodeshwa irimo ibyumba bigiye bikodeshwa imbere yayo hari umudamu, umukobwa mu myenda ya kake iherere Nyarutarama mu mugi wa Kigali imbere yayo hari izindi modoka esheshatu.